Abakuru b'Ibihugu bitandukanye bavuye mu nama yo kungurana ibitekerezo by'uburyo Ibihugu byabo byatera imbere, bafata ifoto y'urwibutso, bambaye amakote meza bambaye n'inkweto nziza barimo barifotoza kugira ngo ibe ifoto y'urwibutso, izabibutsa inama y'ingirakamaro bakoze.

Sale ngari irimo abantu bakuru, harimo abana, harimo n'abazungu, harimo abana bambaye imipira y'ubururu, abandi bambaye imipira y'umuhondo, handitseho amagambo, bicaye ku itapi y'umweru n'umukara, abandi bicaye ku mikeke, hari ameza manini, hari intebe harimo n'abantu bahagaze bari kuganiriza abana uburyo bakwiteza imbere mu gihe kizaza.